Abantu bicaye, bicaye muri sale, bicaye munzu y'amabati, iyo nzi irimo sima, hanze hari igiti, haparitse na moto, hirya hari undi muntu uhahagaze.

Abanyeshuri bicaye bari muri laboratwari bafite mikorosikopi hari amamakasi hari urukarabiro kandi bari mu nzu mo imbere.

Abantu baricaye, bicaye mu ntebe, bicaye mu matete, harimo abagore, harimo n'abagabo, abagore benshi bateruye abana barimo abateze ibitambaro abandi bafite imisatsi.

Hari abagabo batatu bahagaze imbere babiri bambaye amakote undi yambaye umupira w'ubururu inyuma yabo hari abandi bagore bahagaze inyuma, hakurya yabo hari ibiti bari kubaka.

Aba ni abagore ndetse n'abagabo bahagaze, bari gupima umwana bamwe bambaye imipira, abandi bambaye amataburiya. Abo ngabo ni nk'abaganga cyangwa abajyanama b'ubuzima.

Hari umugore, umugore aricaye yikenyeye igitenge ameze nkuvuye gukaraba, afite umusatsi ari mu nzu harimo abandi barwayi babiri baryamye ku gitanda.

Hari inzu, inzu yanditseho amagambo, ivuriro gakondo. Iyo nzu iriho sima, hariho urugi rw'ibirahure n'inkingi imeze nka konoshi.